Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati yumweru. imbere ye hakaba umugore wambaye ishati y'umweru, hirya ye gato hakaba undi mugabo wambaye ishati yi'cyatsi, imbere ye gato hakaba undi mugabo wambaye ishati y'umweru, bose bakaba bari gukoresha mudasobwa, hirya yabo gato hari umugore wambaye ijipo akaba ari imbere y'akabati k'ibitabo, akaba afite igitabomu ntoko ari kugisoma, inyuma ye gato hakaba hari undi mugore nawe imbere y'ibitabo.

Icyuma gishinzwe kuzana amafu munzu, kibambye ku rukuta rw'inzu, hirya yaho icyapa gikozwe mu buryo bw'umusaraba, gishinze hejuru y'inzu, imbere y'aho igiti kinyuraho insinga z'amashanyarazi, hirya yaho igiti nanone gicaho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi n'umweru bikaba kigaragaza aho bagurira imiti, inyuma yacyo hakaba hari igiti kinini kiriho itara ryo ku muhanda gicishwaho n'insinga z'amashanyarazi ibyabo gato akaba ari icyapa cyanditseho ohereza unakire amafaranga ku buntu kikaba kiriho umugabo wambaye ishati y'umutuku, inyuma hakaba inzu ifite amabati y'umutuku akabari n'icyapa kigaragaza ibihacururizwa.

Ibiti bibiri binyuraho insinga z'amashanyarazi, igiti kimwe cyikaba kiriho mubazi ebyiri inyuma y'ibiti by'amashanyarazi hakaba hari inzu ifite ibara ry'umuhondo n'icyapa kiriho gifite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Igazeti ya leta yo ku wa makumyabiri Nzeri Ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umutwe wayo wa kane ingingo zinyuranye n'izisohoza ingingo ya cumi n'icyenda kutaryozwa icyaha cya ruswa.

Imodoka y'ubutabazi ishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro ifite amabara y'umweru, ubururu n'umukara, iruhande rwayo hakaba hari inzu ifite amabara y'umweru, umuhondo n'icyatsi, imbere yayo hakaba hari imodoka y'umweru ifite amabara y'umukara.

Impapuro eshatu zibambye ahantu umuntu witwa Mpayimana Philippe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, indi ntambwe hakaba hariho n'ikimenyetso kigaragaza kuzamuka.

Ikinyabiziga gikoresha moteri gifite ibara ry'umweru n'umukara hirya yaho hakaba inzu ifite ibara ry'umuhondo, imbere zifite ibara ry'umuhondo hakaba hari igiti cy'amashanyarazi kiriho n'itara ryo ku muhanda, hirya yaho hakaba indi nzu ifite ibara ry'umutuku, hirya yaho hakaba inzu ifite igisenge cyo hejuru gifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo nk'ibinyabiziga bya moto hariho n'abayobozi babiri bambaye ingofero z'ubwirinzi zifite amabara umutuku, imodoka ebyiri imwe ifite ibara ry'umweru iruhande rwayo hakaba n'imodoka ifite ibara ry'ivu n'inzu y'amagorofa abiri ifite ibara ry'umutuku n'akazu gatoya gafite ibara ry'umutuku.

Icyapa kikiriho amasangano y'imihanda umuhanda umwe winjira mu kuboko kw'ibumoso imbere yaho hari igikuta cy'amabuye gifite hejuru uruzitiro rw'ibyuma rufite ibara ry'umweru hari n'igiti gishinze kiriho insinga z'amashanyarazi.

Ikinyamitende gikoresha moteri cyicaweho n'umuyobozi wacyo, wambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umutuku, inyuma ye hakaba indabo z'icyats,i iruhande rw'indabo z'icyatsi hakaba icyapa kigaragaza ko bitemewe kuhagarara umwanya munini cyangwa se umuto, hirya yaho hakaba inzu ndende ifite ibirahuri, ifite ibyapa bisa ubururu.